Iyi ni nk'inama yari yabaye cyangwa se amahugurwa yari yahuje abantu runaka. Bigaragara nk'aho bari bafokasinze bari kumva icyo bababwira, bateze amatwi.

Inama ku bigaragara yari yabaye, y'abagore ya repubulika y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, uyu mujyi wa Kigali, kuko bigaragara ni nk'inama yari yabaye ihuza igitsina gore.

Ku ifoto iragaragaraho umuntu wari uri gutanga sipici cyangwa kuvuga, bisa nkaho bari bari mu nama yari yahuje kampani cyangwa se inama y'abayobozi ba leta.

Kuri iyi foto hagaragaraho umuyobozi bisa nk'aho yari ari kubwira abaturage bari mu nama bicaye, hasi hakagaragara n'undi ushinzwe umutekano wambaye impuzankano y'icyatsi bazwi nk'abadaso.

Iyi ni nk'inama yari yabaye yahuje abayobozi runaka cyangwa itsinda runaka, kuruhande hari kamera hateretse n'uducupa tw'amazi kuri buri meza.

Uko bigaragara kuri iyi foto, ni nk'abayobozi bari bari mu nama ahantu runaka, bari kuganira, cyangwa imyanzuro, imbere hari uducupa tw'amazi.

Bigaragara nkaho abaturage bari bari mu nama runaka bisa nkaho imbere hari abayobozi bagera kuri batanu bamwe ufite mikoro uri kubaha speech.

Nkuko bigaragara kuri iyi foto, ni nk'inama yari yabaye cyangwa se igikorwa runaka cya leta, cyangwa icy'undi mushinga runaka gihuriza abaturage hamwe, bari bicaye mu itente.

Uko bigaragara hano ni nk'inama yari yabaye y'abayobozi cyangwa se sosiyete runaka, kuko ku cyapa bafite handitseho durimuzi cyangwa se umushinga runaka uterwa inkunga na yuwesayidi.

Uko bigaragara kuri iyi foto, haragaragara abantu begamye ku rukuta, bose bari bize bari muri telefone, bisa nkaho ari impande yaho bisi wenda ziparika, cyangwa ahandi hari serivisi runaka.

Iri ni itangazo rya minisiteri yasohoye mu mpera z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ku itariki cumi n'ikenda z'ukwa cumi, ryerekana amabwiriza cyangwa ni annoncement.

Iyi foto ni iya apurikasiyo cyangwa se sistemu imwe ikoreshwa mu Rwanda, ibijyanye no kwishyura cyangwa kudekarara serivisi zimwe na zimwe zijyanye n'ubucuruzi, cyane imisoro runaka. Ni serivisi y'irembo.

Iyi ni pubulisite ya serivisi imwe bita irembo ikubwira ko ushaka kubyikorera kwiyandikisha mu kizamini cy'uruhushya rwicyiciro cyisumbuye cyo gutwara ibinyabiziga.

Iri ni itangazo cyangwa integuza yibutsa abantu itariki ntarengwa, yo gutangiraho umusoro w'ubukode bw'ubutaka n'umutungo utimukanwa wa bibiri na makumyabiri na kane, aho bakwereka ko wasura urubuga rwabo rwa www rra govu.

Uko bigaragara iyi ni nk' ifoto ya siberi cyangwa se siberi kafe, aho abantu bakoresha interinete, bishyura ukajyenda ugukoresha interinete igihe runaka. Hakaba harimo abantu...

Iyi ni nka puresitaya gavumenti, iri gusobanura umusoro ku nyungu z'ubukode ni iki? Umusoro ku nyungu z'ubukode ni umusoro ucibwa ku nyungu, umuntu ku giti cye cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro.

Iri ni nk'itangazo cyangwa se ifoto iburira igaragaza ko ari dediliyini y'iminsi ibura, kugira ngo hishyurwe umusoro wa bibiri na makumyabiri na kane, akaba ari iy'ishami rishinzwe kwishyuza ara

Iri ni itangazo ry'akazi cyangwa rya kampani iri gushaka abakozi aho bakubwira ngo bajoyininge bakubwira ngo bari gushaka wiya lukingi foru eyibiyemu tekinisiyani sapoti abakora intebe.

Kuri iyi foto hagaragaraho umunara umwe muri sosiyete zikorera mu Rwanda n'ahandi ya emutiyeni.

Iyi ni imwe muri puburisite ya serivisi z'irembo cyangwa apurikasiyo yitwa irembo ry'Rwanda hano hari bari kukubwira uko nyine wakwikorera uko wakwapurayingira uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ku giti cyawe.

Iri ni itangazo rya Leta, rijyanye n'imyanzuro yafashwe muri bibiri na gatatu, yo guhindura amasaha y'akazi. Yerekana n'amasaha y'akazi kazajya gatangira ko ari kuva saa mbiri za mu gitondo kugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba.

Iyi ni ifoto igaragara nk'umwarimu wari uri gusobanurira abanyeshuri bari muri raboratwari y'ikoranabuhanga.

Iri ni itangazo ryerekana ko itariki nyine ntarengwa yo kudekarara cyangwa kwishyura imisoro ku mitungo itimukanwa, hano barakubwira ko ushobora guca kuri wawawa ara ara eyi arobaze govu.

Iyi ni modoka y'indi kompanyi zitwara abantu mu Rwanda za Ritiko, Ritiko rimitedi imbere ndi kubonaho n'abanyonzi batatu, babiri n'umugenzi umwe.

Ino foto iri kugaragaraho ipoto z'insinga z'amashanyarazi, haruguru yaho hari umunara cyangwa se tarasifofaze y'aho zihurira noneho.

Iyi ni ifoto igaragaraho inzu na protayi yayo, iyi hari umunara w'imwe muri sosiyete z'itumanaho mu Rwanda, munsi yaho hari itara rimwe ryo ku muhanda ricana.

Izi n'ifoto ebyiri z'iminara y'amashanyarazi, ziriho cyangwa se taransifo z'amashanyarazi, n'insinga zazo.

Igiti kinini bikagaragara, n'itara ryo ku muhanda hakagaragaramo inyubako imbere, hakata ibumoso, iburyo, imbere hakaba hari zebura korosingi.

Kuri iyi foto iragaragaraho igice cyo hejuru, k'imodoka iri mu bwoko bwa Kwasiteri, hepfo hari ipoto, amapoto abiri, ipoto rimwe ry'amashanyarazi rinini, na rimwe rifatanye ririmo abiri y'iperoni.

Kuri iyi foto hagaragaraho abantu babiri, umwe uri iburyo, undi uri kujya mu majyaruguru, imbere hakagaragaraho ipoto n'ipironi ry'umuriro w'amashanyarazi.

Iyi foto iri kugaragara imodoka isa nk'aho yinjira mu ishyamba, ifite urwego inyuma muri butu yayo, ni imodoka iri mu bwoko bwa bwa Vigo.

Ifoto iragaragaraho amapoto abiri ku murima na ruhurura n'inzu ziri ruguru.

Iyi foto uko iri kugaragara, ni ifoto yo ku muhanda, hari kugaragara igipangu n'amafoto y'itara ryo ku muhanda, hagasa nkaho hateye ibiti byinshi ku muhanda.

Ifoto igaragaza koridori imwe mu bitaro byo mu Rwanda, hano hari ibyapa byerekana nyine aho bavurira indwara z'amaso n'aho babagira.

Kuri iyifoto uko bigaragara bisa nk'a ari kwa muganga cyangwa ku kigo runaka gishinzwe ubuvuzi hepfore icyapa cy'icyatsi kiriho amerekezo atandukanye ya serivisi batanga hepfo hari imodoka y'ambulance.

Kuri iyi foto hagaragaraho imodoka yo mu bwoko bw'amajipe izwi nka ambiranse yifashishwa mu gutwara abarwayi cyangwa se mu gutabara habaye impanuka.

Iyi foto iragaragaraho umugororwa bisa n'aho yari ari ahantu agiye gufata amodocument cyangwa se ajya gusinya cyangwa yari ari kureba mu modokima.

Ni ifoto uko bigaragara ni ifoto iriho imfungwa yambaye amarinete, inyuma hari background iriho urupapuro rw'umweru.

Kuri iyi foto hagaragaraho umucungagereza aherekeje imfungwa isa nk'aho yari agiye kuburana yashyize, afite amadokima mu kwaha, yasize n' ibiganza imbere nk'umuntu wari wambaye amapingu.

Ifoto ni ifoto igaragaza imfungwa n'umucungagereza aho ari mu gihande cy'abagabo menizi wingi, ikaba ari ifoto isa nkaho ari gereza ya mageragere.

Ni ifoto y'umucamanza, cyangwa umuntu ukora mu rukiko niko mbibona. Ntabwo nzi izina rye cyangwa ndabona ntamuzi.

Uko bigaragara iri ni nk'itangazo riburira abaturage rivuga ngo, wari uziko ukwiriye kwirinda abigira ibyo abagira ibyo bagusaba bakwizezako buzagufasha kubona ubutabera mu nkiko! Birinde ubutabera ntibugurwa.

Kuri iyi foto hagaragara umupolisi wo mu ishami rya traffic cyangwa ibyo mu muhanda, asa nkaho yari afite mikoro yo ku modoka hari nk'ibyo yari kubwira abaturage.

Kuri iyi foto hagaragaraho kimwe mu gikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro, bita faya egisitenguwisha, bacyifashisha mu kuzimya umuriro mukeya utari mwinshi.

Ku ifoto haragaragaraho abagenzi bari kunyura mu kayira k' abagenzi, imbere hari umupolisi, bisa nk'aho ari ifoto imbere ya gare ya Nyabugogo. Haruguru hari amapoto y'amapironi y'umuriro n'amatara yo ku muhanda.

Iyi foto iragaragaraho ikiganza cy'umuntu cyangwa cy'umukandida, hariho inki ku kiganza cye cya mukubita rukoko no ku gahera hariho inki bigaragaza ko yari avuye mu gikorwa cy'amatora.

Uko bigaragara kuri iyi foto, ni ifoto yo mu cyumba kimwe cy'itora, igaragaza umukandida ari gushyira urupapuro mu gasanduku kagenewe, gushyirwamo inzandiko z'itora.

Iri ni idarapo cyangwa se ikirango kigizwe n'amabara atatu icyatsi, umweru, n'ubururu bwerurutse cyangwa pureseri by'ishyaka bita peside rikorera mu Rwanda.

Kuri ino foto hariho amasura cyangwa se amafoto, ya bamwe mu bakandida bari bari kwiyamamaza, amajwi bagize cyangwa se uko bagiye batsinda ku ijanisha. Aho berekana ko Paul Kagame ari mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na bitanu, Frank Habineza akaba ari zeru n'ibice mirongo itanu na bitatu, Filipe Nahimana akaba ari zeru n'ibice mirongo itatu na bibiri.

Iyi foto uko igaragara hano ni iy'umuyobozi umwe mu Rwanda yari ari mu nama y'abadepite, uko bigaragara yari ari gufotora cyangwa gufirima, ibyari biri kubera mu nama.

Iyi ni ifoto y'amwe mu mashyaka akorerwa mu Rwanda ya girini pati, ifoto igaragaza igikorwa cyo kuba bari bari kwiyamamaza, bari kwamamaza umwe mu bakandida babo.

Uko bigaragara kuri iyi ifoto, ni ifoto y'urwibutso igaragaho abayobozi bamwe bayobora igihugu cy'u Rwanda, hakaba kagaragaramo n'umukuru w'igihugu ari we nyakubahwa perezida Paul Kagame.

Kuri iyi foto haragaragaraho akamoto gatwara imizigo ko mu bwoko bwa rifani k'amapine atatu, ka meyide ini Rwanda, hirya hari tagisi itwara abagenzi yo mu bwoko bwa hiyasi.

Kuri iyi foto hari kugaragara akamoto ko mu bwoko bwa rifani kari kuzamuka gasa n'akajya mu mujyi, kuruhande hari imodoka y'umukara, inyuma y'ako hari imodoka y'umweru.

Kuri iyi foto hagaragaraho imodoka yo mu bwoko bwa hoho y'umutuku n'umugenzi uri kugenda mu kayira k'abagenzi, inzu ifite igisenge cy'umutuku, ku ruhande hari ipironi y'umuriro w'amashanyarazi.

Kuri ino foto hagaragaraho moto yo mu bwoko bwa lifani n'imodoka ya hiyasi ya dayatsu iri kuza n'umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'umutuku, umupira wa orange, na motari. Ni ifoto yo mu muhanda; hari n'ibiti.

Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota ya herekisi, n'indi iri hasi ya Dayihatsu, ziri kwerekera mu cyerekezo kimwe.

Kuri iyi foto haragaragaraho imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri itwara abagenzi na moto ebyiri ziri kugenda mu muhanda mu byerekezo bibiri bitandukanye, hakaba hagara na ruhurura iri ku ruhande.

Ino foto iragaragara nkaho ari iyo muri imwe muri gare cyangwa ahategerwa bisi, hakaba hariho bisi ebyiri za kepiyesi, cyangwa bazi ku izina rya yotonge, hakaba hariho icyapa cyo kwamamaza cya banki ya beka, hagati hakaba hari kunyuramo umuntu wambaye isengeri y'umutuku.

Ahantu haragaragara ikamyoy'umuhondo n'umweru iri mu bwoko bwa hoho, imbere Hari umunyonzi upakiye umuzigo n'amakamyo n'ama bus aparitse bisa nk'aho ari station.

Kuri iyi foto hagaragaraho moto yo mu bwoko bwa rifani, umumotari n'imodoka, hirya hakaba hari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi rimwe, akaba ari inzu y'ubucuruzi.

Ndabona imodoka zitwara abagenzi zo mu bwoko bwa yegoka pari taxi, n'umu egenti ucuruza amayinite wa emutiyeni mibayiro mani.

Iragaragaza moto iparitse ku muhanda mutoya, imbere, uko bigaragara iparitse imbere ya busheri, iruhande rw'amazu y'ubucuruzi.

Ifoto igaragaza isangano ry'imihanda cyangwa aho inzira zihurira, akaba hari icyapa cyanditseho kibugabuga akaba ari kamwe mu karere kagize u Rwanda.

Iki ni icyapa cy'umuhanda cyerekana ko imbere yawe ibumoso ari umuhanda ukomeza, utambika ukata ibumoso, n'undi ukomeza ujya haruguru nyine aho wakomezaga.

Iyi ni ifoto y'icyapa kiri muri mpande eshatu itambitse ku ruhande rw'ibumoso iri kugaragaza iriho n'ibimenyetso by'icyapa cya feruje mu ibara ry'icyatsi, umuhondo n'umutuku.

Iyi ni ifoto ya Gicumbi disitirigiti igaragaraho ipironi, umumama ugaragara nk'aho yari avuye ku mupaka, ari kwambuka ahari icyapa cyanditseho werikamu tu de repubulika ofu Rwanda.

Iki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda cyerekana ko umuvuduko uba utemerewe kujya hejuru cyangwa ubu ugomba kugendera munsi y'umuvuduko wa mirongo itandatu utagomba kurenza mirongo itandatu.

Iki ni icyapa cyerekana ihuriro ry'imihanda, umwe ukomeze iruhande rw'iburyo ujya kagarama ukomeza imbere ujye kagarama na none undi ujya kicukiro santere.

Ni icyapa kerekana, icyapa cyo mu muhanda kerekana ko iyi ari inzira y'abagenzi, cyangwa kerekana ko ari akayira k'abagenzi.

Iki ni icyapa kiri muri mpandeshatu, cyerekana ko imbere hari kuba igikorwa cy'ikorwa ry'uyu muhanda, cyangwa se bari kuvugurura umuhanda, cyangwa bari kuwongera.

Yifotaraga ari imbere icyapa ,ifoto igaragara ya lopuwe aho imihanda cyangwa imihanda ihurira.

Iki ni icyapa kiri mu ishusho ya mpandeshatu, hagati hakaba harimo abanyeshuri bari gutambuka. Iki icyapa cyerekana ko hafi aho ari ikigo cy'amashuri.

Iyi foto, iri mu ifoto y'icyapa cy'uruziga, igaragaza ko imodoka zihetse cyangwa se ziri mu bwoko bwa Dayihatsu zitemerewe kuhanyura.

Iki ni icyapa kirimo ubwoko bw'ibibuza kiri mu bwoko bw'uruziga rw'umutuku n'umweru cyerekana ko ariho umuhanda urangirira nta nzira ikomeza, ntanivayo iza.

Ni ifoto y'umuhanda hirya hari cyapa kerekana ko ari imihuro y'umuhanda nyine umuhanda uzenguruka ari rompuwe.

Iki ni kimwe mu byapa byo mu muhanda gifite ishusho ya mpandeshatukaba irimo akamenyetso k'umukara k'ibara ry'umukara kikaba kigaragaza ko imbere hazamuka cyangwa se ari dodani.

Hari kugaragaraho icyapa kigaragaza ko bitemewe guparika umwanya muto n'munini, kiri imbere y'ipoto, n'icyapa cya banki bita I&M Banki, n'icyapa cya BK kiri ku nyubako ya etaje.

Uko bigaragara kuri iyi foto, haragaraga imodoka ziri kuri parikingi, iyi foto isa nk'aho yafatiwe i Remera, hasi hari rikodi bita BMC Angel Record, hejuru hakaba hari Kimironko Buranshi, hakaba hari buranshi ya banki.